Uyu ni umuti wa Kinyarwanda, uyu ukunda kuvura abantu benshi, abantu benshi bakunda ku wifashisha cyane cyane nko kuvura inkorora n'ama giripe.